Mu nyubako hagati harimo abana ndetse n'umumama wambaye itaburiya y'ubururu yanditsweho ijambo " ituze" inyuma mu mugongo, bigaragara nkaho ari abana barimo kwiga.

Hagati y'inyubako hari abagore babiri ndetse n'abana benshi bambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'amakabutura n'amajipo yo mu ibara ry'umukara, bigaragara nkaho ari abana barimo kwigishwa n'abarimu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, hagati yabo hari ameza yo mu ibara ry'umutuku, bambaye amashati yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'amapantaro n'amakabutura byo mu ibara ry'umukara.

Mu nyubako hagati hari abana benshi bafite, udukombe barimo kunywa igikoma, barimo kugihabwa n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku, umupira w'mweru, witeze igitambara mu mutwe. Bigaragara yuko, ari abana bari mu irerero rusange.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, inyuma ye hariho inyubako ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Iruhande rwe hariho poubelle.

Mu kigo cy'ishuri hagati hari ikigega cyo mu ibara ry'umukara, imbere yaho hateye pasiparume ndetse n'indabo zirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, iruhande rwaho hari inyubako isakajwe amategura.

Inyubako irimo akabati karimo ibitabo byinshi bitandukanye, imbere yaho hari ameza ateretseho ibitabo ndetse n'amakayi menshi bigaragara nkaho ari inyubako bifashisha mu kwiga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano mu ibara ry'ubururu ndetse na kaki, bateruye akabase karimo ibyo kurya umuceri ndetse n'ibishyimbo, bigaragara nk'aho ari ikigo cy'ishuri aho abana bajya gufata amafunguro ya saa sita.

Hagati mu kigo k'ishuri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amategura, hari inyubako abana babasha kujyamo, babasha gukina bitandukanye, iruhande rwabo hari ibyatsi byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umufuka wo mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ushushanyijeho ibikoresho bitandukanye harimo ingorofani, igitiyo, rozwara, umuhoro ndetse n'isuka, ishoka ndetse na pikipiki bigaragara nkaho ari ibikoresho by'ikoranabuhanga byigishwa mu myaka yo hasi.

Mu cyumba hagati harimo intebe zibajwe mu biti, akabati kabajwe mu biti ndetse imbere yaho hari ikibaho cy'umukara, bigaragara nkaho ari icyumba k'ishuri bifashishwa mu kwiga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ifite ikibaho cy'umukara, yandikishijweho ingwa y'umweru handitseho home work, write in word the number from mirongo itanu, up to five hundred and ten, igaragara nkaho ari inyubako bakoresha babasha kwiga.

Abana benshi cyane, batonze, bakoze uruziga, bari kumwe n'umuntu mukuru, bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo kwigishwa n'umurezi wabo ubakuriye.

Igipangu gisizwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara, gishushanyijeho abana batatu, imbere yabo hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Mu nyubako harimo ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru ndetse n'ingwa y'umutuku, bigaragara nk'aho ari icyumba k'ishuri bifashisha mu kwiga.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru ndetse n'abambaye imipira y'ubururu barimo kugenda biruka mu muhanda, iruhande rwabo hatewe indabo ndetse n'ibiti, bigaragara nkaho ari abanyeshuri bari mu myitozo ngororamubiri.

Mu nyubako hagati harimo abantu bambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'umwana wicaye mu kagare wambaye ishati y'umweru ufite na registri, hagati yabo hari ameza ndetse na mudasobwa bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo kuganira ku ngingo runaka.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kaki, uri ku igare mu muhanda bigaragara nkaho atwaye mu muhanda arimo kugenda yihuta.

Abanyeshuri bafite impapuro z'umweru ndetse n'amakaramu, bambaye amapantaro y'umukara ndetse na mashati y'umweru, bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo gukora ikizamini.

Mu nyubako hagati harimo ameza ateretseho mudasobwa, iruhande rwaho hari abanyeshuri barimo kureba imbere kuri television, bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo kwiga bakoresheje mudasobwa.

Mu nyubako hagati harimo akabati gasizwe ibara ry'umweru, harimo ibitabo byinshi bitandukanye, harimo ibya biyoroji, ibya kemisitiri ndetse n'ibya jogarafi bigaragara nk'aho ari isomero rusange.

Abanyeshuri bambaye amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, amajipo ya kaki ndetse n'amashati y'umweru, hagati yabo hahagaze abagabo batatu bigaragara nk'aho ari abanyeshuri bari ku muronko, barimo kuvuga ingingo zitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hejuru hari amabati atukura ndetse n'agasongero kari mu musaraba, imbere yaho hari urupangu runini bigaragara nkaho ari kuri katederali ya Butare.

Hagati y'inyubako hari idarapo ry'igihugu, ndetse hari n'ikibuga bakiniramo basikete ndetse na volleyball, harimo kugenda abanyeshuri bambaye amashati yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'amapantaro ya kaki bigaragara nkaho ari ikigo cy'ishuri.

Inyubako hagati harimo intebe zo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hicaye abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru bigaragara nkaho barimo kuganira ku ngingo runaka.

Mu nyubako harimo ibitanda bibiri bigerekeranyije, harimo umunyeshuri wambaye umupira ndetse n'ikabutura yo mu ibara ry'ivu, aho bigaragara nkaho ari icyumba bifashisha ku banyeshuri babasha kuba mu kigo.

Abantu bambaye imipira y'umukara ndetse n'amakabutura y'umukara afite amazina ndetse na nimero by'umweru, harimo n'uwambaye umupira w'umuhondo, bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo gukina umukino wa volley ball.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo harimo imodoka ndetse n'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, bigaragara nkaho ari ikigo cy'ishuri cya Groupe Offciel ya Butare.

Imodoka yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru yandikishijweho amagambo imbere VOLCANO, irimo kwinjirwamo n'abana b'abanyeshuri bafite ibikapu bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu. Bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo gutega basubira cyangwa bava ku ishuri

Mu nyubako harimo ameza, imbere yaho hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru, bigaragara nkaho ari inyubako y'ishuri bigiramo.

Abanyeshuri benshi cyane, bicaye ku gasozi inyuma y'amashuri, imbere yabo hicaye abarimu ndetse n'abanyeshuri, bigaragara nk'aho barimo kuganizwa ku ngingo runaka.

Mu cyumba hagati harimo akabati ko mu ibara ry'umweru, harimo ibitabo byinshi bitandukanye, harimo ibitabo bya biyoloji, ibitabo bya kimesitiri, ndetse n'ibitabo bya jewogarafe, bigaragara nkaho ari isomero.

Abanyeshuri babiri bambaye amapantaro y'ubururu, inkweto z'umukara ndetse n'amashati y'ubururu yijimye, bahagaze imbere y'igipangu, nyuma yaho hari amadarapo abiri bigaragara nk'aho ari abanyeshuri bahagaze imbere y'ikigo cy'ishuri.

Icyapa cyerekana ikigo cy'ishuri cyanditseho ecole seconderi Sente Terinete de Ruhango kigira amashami atandukanye yigisha arimo: Jewogarafi ,Ekonomi ni Imibare ,Ekonomi, Jewogafi na Isitwali, Kompiyuta siyance ,Ekonomike na Matematike.

Mu cyumba harimo ibitanda bishashwe neza ndetse hariho n'ameza, bigaragara nkaho ari icyumba bifashisha n'abanyeshuri mu kuraramo.

Umuhanda wubakishijwe mu matafari ahiye, iruhande rwaho hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru byandikishijweho UR mini printing. Iruhande rwaho hari urusasa.

Inyubako hagati hari ameza ateretseho ibitabo byinshi cyane ndetse ateretseho na mudasobwa, bigaragara nkaho ari inyubako yifashishwa mu bijyanye no kwiga.

Mu cyumba hagati harimo ibikoresho byifashishwa mu kureba ibintu runaka. Bigaragara nkaho aho ari icyumba cy'ishuri bifashisha mu gukora ndetse no kureba ubushakashatsi.

Inyubako irimo ibitanda bibiri bishashe neza, imbere yaho hari akabati ndetse n'intebe n'imeza byo kwicaraho, bigaragara nkaho ari inyubako yifashishwa n'abanyeshuri igihe bavuye kwiga bashaka kuruhuka.

Abantu barimo kugenda mu nzira, harimo uwambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'uwambaye ishati n'ipantaro by'umukara barimo kugenda iruhande rwinyubako, bigaragara nk'aho ari abanyeshuri bo muri kaminuza ishami rya Huye.

Inyubako irimo urumuri rutazima, bigaragara nkaho ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Mu nyubako hagati harimo akabati karimo ibitabo byinshi bitandukanye, bigaragara nk'aho ari isomero rusange bifashisha mu gusoma bitandukanye.

Mu nyubako harimo abantu bambaye ingofero z'ubururu, amataburiya y'ubururu ndetse harimo ibikoresho byikoranabuhanga byifashishwa n'abatekinisiye.

Umugabo wambaye ishati y'amakarokaro, wambaye n'umupira, wicaye ku ntebe y'umutuku, bigaragara nkaho ari abanyeshuri benshi bicaye mu nyubako ya kaminuza ya Oditoriyumu.

Mu nyubako harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, utubati turimo amacupa y'umweru, amacupa y'ubururu ndetse n'udukoresho bifashisha mu gutwika ibintu bitandukanye, bigaragara nk'aho ari laboratoire.

inyubako yubakishijwe ndetse isizwe n'irangi y ry'umweru ndetse n'umuhondo imbere yaho hari ururabo ndetse ikikijwe n'ibyuma bigaragara nkaho aho ari inyubako ya urra inovationhuub iri mu ishami ryahuye

Inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite ibara ry'umukara, imbere yaho hari ibyapa byanditseho no parking, hari umuhanda ufite amapave. Bigaragara nk'aho ari muri kaminuza y'ishami rya Huye.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigerekeranyije, iruhande rwacyo hari utubati two mubara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, bigaragara nkaho ari icyumba kifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo babone aho barara.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'amabati atukura. Iruhande rwaho hari igiti cya avoka, ndetse n'icyuma, kihakikije. Bigaragara nkaho ari inyubako za kaminuza y'u Rwanda ishami rya Butare

Umuhanda wubakishijwe amabuye iruhande, rwawo hahagaze moto ndetse n'umugabo ufite igikoresho gikora amasuko wambaye isurubeti y'icyatsi, iruhande rwe ndetse n'imbere ye hari ibiti byinshi ndetse n'inyubako.

Mu nyubako hari abana bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, barimo kuririmba bahagaze ku rubyiniro. Bigaragara nkaho ari abanyeshuri barimo gususurutsa bagenzi babo.

Ku kibuga gitewemo ibyatsi bibisi bya pasiparume, iruhande rwaho hari igiti kinini cyane cy'inganzamarumbu, bigaragara nkaho ari ikibuga cya sitade ya Huye ya kaminuza.

Abakozi bakora amasuku bambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'umukara, barimo gukora amasuku ku ndabo ndetse n'igipangu cya Kaminuza y'u Rwanda, Ishami rya Huye, inyuma y'aho hari amashuri bigiramo.

Mu nyubako harimo ibitanda bigerekeranyije bisashe neza, hariho akabati kariho imyenda, iruhande hariho ameza ateretseho keto, bigaragara nkaho ari icyumba abanyeshuri bararamo.

Inyubako hagati harimo intebe ndetse n'utumeza, hicayemo abanyeshuri, imbere yaho hari umwarimu urimo kubigisha, bigaragara nkaho ari inyubako ya kaminuza abanyeshuri bifashisha barimo kwiga.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse n'ipantaro y'ubururu, ahagaze imbere y'abantu benshi bicaye ku meza bafite mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi, bigaragara nk'aho ari abantu barimo guhugurwa ku ngingo runaka.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara rifite idarapo ry'u Rwanda, uhagaze imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara nkaho ari icyumba cy'ishuri bigiramo ibijyanye no gukanika.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, ku ruhande rw'aho hateretse akuma ko gakoranye ubuhanga, kifashishwa mu kwerekana amashusho. Bigaragara nk'aho ari inyubako babasha kwifashisha, n'abanyeshuri barimo kwiga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ndetse n'irangi ry'icyatsi, isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yaho hari ibyatsi byo mu ibara ry'icyatsi, bigaragara nkaho ari inyubako y'ishuri.

Mu nyubako hagati, harimo intebe ndetse n'imeza iteretseho igitabo ndetse na mudasobwa, bigaragara nkaho ari icyumba bifashisha mu kwiga.

Inyubako irimo intebe zo mu ibara ry'ubururu, imbere yaho hariho ikibaho cyo mu ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari inyubako yo muri kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwaho hari akagega ko mu ibara ry'umweru gato ndetse n'akaduke gato, bigaragara nk'aho ari akagega bifashisha mu kunywa amazi meza.

Mu nyubako hagati harimo abagabo ndetse n'abagore benshi bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, ku meza yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa, bigaragara nkaho ari abantu barimo kuganira ku ngingo runaka.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'umutuku iri mu bwoko bwa etage mbere yaho hari ikigega cy'umukara hanitse n'imyenda ndetse hari n'indabo zo mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwaho hari ibiti bigaragara nkaho ari inyubako z'abanyeshuri zo muri Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Butare.